Gukoresha amazi meza ni ingirakamaro, bituma benshi batora imirongo ku mariba ya kijyambere, kugira ngo bacike gukoresha amazi y'ibirohwa, kuko atari meza mu buzima.

Abahinzi bibumbiye mu makoperative bateraniye guha igenagaciro imyaka bahinze, kugira ngo babashe kuyishyira ku isoko, bityo bunganire abadashobora guhinga babone ibyo bahaha.

Umuryango, inshuti n'abavandimwe, bateraniye hamwe mu kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umubyeyi wabo, ni byiza ko abana, abuzukuru, abaturanyi bateraniye hamwe, ngo bishimane n'umubyeyi wabo.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza mu buzima, kuko ifasha ubuzima kugenda neza kandi ugakomera, bityo ugashobora kurinda umubiri wawe n'uburwayi.